Inzu nini ifite imiryango itandukanye n'amadirishya menshi, imbere hashushanyijeho ibishushanyo bitandukanye, ibiti, abantu, amasuka, ibitiyo ndetse n'ibindi. Mu muryango harimo umugabo uhagaze ndetse n'umukobwa uri kugenda imbere y'iyo nzu.

Inzu ifite ibara ry'umuhondo ndetse n'umweru, ifite umuryango ufite inzugi ziri mu ibara ry'umukara ndetse n'amadirishya ari mu ibara ry'umukara. Imbere yaho ku rukuta hashushanyijeho umuntu ndetse n'abandi bantu benshi, bigaragara ko hano ari ku ishuri cyangwa se ariho abanyeshuri bafatira amasomo.

Inzu nini ifite imiryango myinshi ndetse n'amadirishya menshi, bigaragare ko ari ishuri ryigirwaho abana b'inshuke, hari ibishushanyo byinshi bitandukanye, hariho abantu, hariho inyamaswa, hariho ibiti ndetse n'ibindi.

Inzu ndende yubakishije amatafari ,igeretse kabiri dukunda kuyita etaje ifite ibara ry'umweru, ndetse imbere yayo hari ibyuma biri mu ibara ry'icyatsi ,ifite n'imiryango ifite inzugi z'ibara ry'icyatsi, isakaje na amabati afite ibara ry'ubururu.

Inzu nini cyane ifite imiryango myinshi ndetse n'amadirishya menshi, isize irangi ry'umweru, isakajwe amabati ari mu ibara ry'ubururu ndetse n'inzugi zifite ibara ry'ubururu rigaragara ko ari mu ikigo k'ishuri cyangwa se ari ho abanyeshuri bafatira amasomo.

Inzu nini cyane, isakajwe amabati ari mu ibara ry'umutuku, isize irangi riri mu ibara ry'umuhondo ndetse n'umweru, imbere yayo hakikije ibyuma, imbere yayo nanone hari jaride irimo indabyo z'ubwoko bwinshi.

Abanyeshuri benshi bahagaze bambaye udupfukamuwa turi mu ibara ry'umweru, amashati ari mu ibara ry'ubururu bwererutse, amakabutura ari mu ibara ry'umukara ndetse n'inkweto z'umukara n'amasogisi y'umweru, imbere yabo hahagaze abayobozi bambaye imyenda iri mu ibara rya kake ndetse n'undi mugabo uhagaze wambaye ishati iri mu ibara rya karokaro n'ipantaro y'umukara n'inkweto z'umweru.

Ikigo cy'amashuri imbere yaho hari umuntu wicaye ndetse n'undi uhagaze wambaye agapfukamunwa k'umweru n'ishati y'ubururu n'ipantaro y'umukara, imbere yabo hari ikirango cy'igihugu, ifite ibara ry'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi.

Abanyeshuri benshi bambaye imipira y'umuhondo iriho ikirango kiri mu ibara ry'umukara ndetse n'amapantaro ya kake bari kurongo bigaragara ko hari igikorwa bahuriyemo cyatumye bateranira aho hantu.

Abanyeshuri benshi bicaye mu ishuri, bambaye amashati y'umweru ndetse n'amajipo cyangwa se amapantaro ari mu ibara rya kake imbere yabo hari ameza ateretseho amakaye, impapuro ndetse n'amakaramu, bigaragara ko ariho bigira.

Abantu benshi bambaye amashati y'umweru, amapantaro y'umukara ndetse n'inkweto z'umukara, hagati muri bo harimo umugabo wambaye ishati y'umuhondo ndetse n'ipantaro z',umukara bafite igikombe mu ntoki biragaragara ko hano bari kwishimira intsinzi.

Abanyeshuri benshi bahagaze bari ku murongo, abasore bambaye amashati y'umweru n'amapantaro y'umukara, abakobwa bambaye amashati arimo ibara ry'ubururu bwerurutse ndetse n'amajipo y'umukara n'inkweto z'umukara n'amasogisi y'umweru, bigaragara ko hari abari kubaganiriza.

Inzu nziza ifite umuryango ufite urugi ruri mu ibara ry'icyatsi ikikijwe n'ibyuma biri mu ibara ry'icyatsi imbere yaho hari agatebe bicaraho ndetse n'utudobo turi mu ibara ry'ubururu.

Inzu ndende nini dukunda kwita etaje iri mu ibara ry'umweru, imbere yayo hari jaride irimo ibiti ndetse n'indabyo, harimo igikoresho kifashishwa mu gukusanya imyanda cyangwa se igikoresho gikoreshwa bashyiramo imyanda.